Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane ku myambaro yabo, barimo isize amabara y'umuhondo higanjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nkaho bari mu nama.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bicaye ahantu hamwe, imbere yabo hateretse indabo, uducupa tw'amazi urabona ko ari ibintu byiza cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba n'abantu benshi biganjemo urubyiruko harimo abakobwa ndetse n'abahungu bicaye ahantu hamwe bisa nk'aho barimo umwe muri bo wambaye agapira k'icyatsi afite ikaramu n'impapuro, amazi mbere ari kwandika.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, barakeye cyane kandi bafite ibyishimo, bamwe barahagaze abandi bicaye mu busitani butoshye bw'icyatsi, bisa nkaho baje mu nama, higanjemo abagore n'abagabo.

Abandi abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane ubarebye ku myambarire yabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere kandi ateretse uducupa tw'amazi na za murandasi.

Aba ni abagabo bagera kuri bane kandi bakeya cyane, ubarebye hafi muri bo bose bambaye amakote meza, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi bicaye ku ntebe z'imikara.

Abagera kuri bane bari ahantu hamwe urabona ko bakeye ku myambaro yabo, bicaye ku ntebe z'umukara zisa zose, higanjemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, imbere kandi hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe haraka amatara y'ubwoko bwose agiye atandukanye yaba ay'umuhondo ndetse n'ayumutuku, bisa nkaho bari mu nama higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'umuhondo, n'umukara, munsi yabo ari itapi y'icyatsi, kumeza gateretseho amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane mu nzu isize amabara y'umweru higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bose bafite impapuro mu biganza byabo.

Aba ni abantu bagera kuri batatu barakeye cyane bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ku meza y'umutuku higanjemo abagore babiri n'umugabo umwe.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama, bari mu nzu isizwe amabara y'umweru higanjemo abagore ndetse n'abagamo, imbere yabo hari ibyo kunywa nk'amazi ndetse n'ibiryohera.

Aba ni abantu bagera kuri batanu bicaye ahantu hamwe ku meza isa umutuku, bari mu nzu igizwe n'amabara y'umweru yiganjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko bakeye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama bicaye ku ntebe z'umweru bose bari ku murongo urabona ko ari ibintu byiza cyane ,imbere yabo hari undi uhahagaze wambaye ikanzu y'umukara.

Abantu batandukanye bafite amadapo y'ibara ry'umweru ubururu n'umutuku yanditseho Efuperi bakikije umukuru w'igihugu perezida Poul Kagame wambaye ingofero y'umukara umupira w'umweru, uriho ikirangantego cya efuperi wazamuye akaboko.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barakeye cyane ku myambaro yabo bisa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere gato hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama. Bicaye ku murongo intebe zabo zose zirasa, higanjemo abagore ndetse n'abagabo; imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, harasa umweru impande zose bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru n'amarido agiye atandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara urabona ko bakeye cyane baritonze higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, hari ibyo bari kwitegereza, bambaye impuzankano z'ubururu, higanjemo urubyiruko rw'abasore ndetse n'urw'abakobwa, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe barakeye yiganjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye amakoti y'umukara amashati y'umweru, hirya yabo hari indabo ndetse n'uducupa tw'amazi.

Aba n'abantu ubona bakenye cyane ku maso habo, bafite ibyishimo. Yiganjemo abagabo ndetse n'umugore wambaye amadarubindi. Ikote ry'umukara yicaye ku ntebe isa n'iya mugenzi we.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bambaye impuzankano y'ubururu, imbere yabo hari umudamu usa nk'ukuze wambaye amadarubindi n'imyenda myiza arakeyeye mu buryo bugaragara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari mu nama, barakeye cyane ubarebye ku myambaro yabo, bose bicaye ku ntebe z'imikara, imbere kandi hateretse za murandasi n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo urombereje harimo umugabo ugiye kwambuka n'umumotari uparitse umeze nkaho akuyeho umugenzi n'abamama benshi bahagaze imbere ya kandagira ukarabe, ku nyubako ikikijwe n'igipangu cy'ibyuma iyo nzu yubakishijwe amatafari ahiye n'amategura n'amabati y'ubururu, hafi yayo hari ikigega cyubakishije ibyuma gisa umukara hari n'ibiti birebire.

Aba ni abantu bagera kuri batatu, bari ahantu hamwe, mu nzu ifite amabara y'umweru impande zose, bicaye ku ntebe z'imikara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe mu nzu ifite amabara y'umuhondo, barakeye cyane barebye ku maso basa nk'abakuze kandi bafite ibyishimo yiganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu nini kandi ikeye igizwe n'ibirahure impande zose, bicaye ku ntebe zijya gusa umweru higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, hari abahagaze bari gufata amashusho, abandi baricaye, bisa nk'aho bari mu nama, bose ni ku ntebe z'umukara, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Iyi ni inzu nini kandi nziza irakeyeye igizwe n'amabara y'umweru, hejuru no hasi akaba ubururu hicayemo abantu bagiye batandukanye higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, ubarebye neza bisa nk'aho bakuze, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse n'impapuro n'amakaramu bari kwandika.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko hakeye cyane huzuye amatara agiye atandukanye, impande n'impande ubwabo bambaye neza higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'umweru, baracyeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umweru, impande zose barakeyeye cyane bambaye amakoti higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe baracye ubitegereje ku maso yabo, barishimye cyane bari guseka, bamwe muri bo bicaye ku ntebe z'umweru n'ubururu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe nk'uko bigaragara higanjemo abagore gusa, bicaye imbere y'ameza y'umweru ateretseho amazi yo kunywa, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu babiri bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane ku myambaro yabo higanjemo umugore ndetse n'umugabo, imbere kandi hari uducupa tw'amazi yo kunywa n'impapuro zo kwandikaho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku ntebe z'umweru, bisa nk'aho bari mu nama, baracyeye kandi bafite ibyishimo mu maso yabo, imbere hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Iyi ni inzu nini igizwe n'amatara y'ubwoko bugiye butandukanye, hejuru harasa umweru, harimo abantu benshi cyane bicaye, urabona ko bisa nk'aho bari mu nama ari ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bamwe barahagaze abandi baricaye bisa nk'ho bari kwandika higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze, abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe z'icyatsi, urabona ko wagirango ngo bari mu nama, ni ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe barahagaze bose bari guseka bafite ibyishimo ku maso habo, bateruye ikintu cy'umweru kinini kimeze nk'icyapa, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Iyi ni inzu nziza igizwe n'amabara y'umweru impande zose hasi ndetse no hejuru, mo imbere harimo abantu bicaye higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi bisa nkaho bari mu nama.

Ikinyabiziga k'ibinyamitende kikoreye kigaragara cyakorewe mu Rwanda n'abagabo batambuka muri iyo kaburimbo n'imodoka nyinshi ziparitse zitegereje abagenzi.

Aba ni abantu batatu bari ahantu hamwe urabona ko bakeya cyane ku myambaro yabo bose bicaye ku ntebe z'imikara, higanjemo abasore babiri ndetse n'umukobwa umwe ni ibintu byiza cyane.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe hasa icyatsi ndetse n'intebe z'umukara, aho bari amatara meza agiye atandukanye, bisa nkaho bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isizwe amabara y'umweru, barakeye kandi barishimye bari guseka ku maso habo, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bafite ibyo bakurikiye, barakeye bicaye ku murongo bisa nk'aho bari mu nama yiganjemo abagore ndetse n'abagabo.

Ni isoko ryiza hasi risashe amakaro hejuru hari parafo, mu rwego rwo kwirinda inyanyagira ry'ibicuruzwa bubatse akayetajeri ko mu biti ku buryo usanga buri gicuruzwa gipanze mu mwanya wacyo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bicaye ku murongo, urabona ko ari ibintu byiza cyane, mu nzu y'amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu nziza igizwe n'amabara agiye atandukanye, amatara yaka umweru bicaye ku ntebe nziza, higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo ateretse amazi yo kunywa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu igizwe n'amabara y'umuhondo, inzugi n'amadirishya by'ubururu bicaye ku bitambaro by'umutuku higanjemo abagore ndetse n'abagabo bisa nkaho bari mu nama.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ifite amabara y'umuhondo barakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa n'impapuro nyinshi cyane.

Uyu ni umukobwa ubona usa nk'aho akiri mutoya, arakeyeye cyane, umusatsi we urasokoje kandi yambaye neza, agapira karimo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara, imbere ye hateretse agacupa k'amazi n'impapuro, ari kwandika.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, bafite amasuku, bicaye ku ntebe z'imyeru ndetse n'imeza y'umukara, higanjemo abagore n'abagabo, imbere yabo hari za murandasi ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bari ahantu hamwe, mu nzu isize amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, bose bambaye impuzankano, usa nk'abari kuganira, higanjemo abakobwa n'abahungu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu ifite amabara y'umweru yaka mu buryo butandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara higanjemo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bakeye cyane, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, inzu barimo isize amabara y'umweru, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa ndetse na za murandasi.

Aba ni abantu bari ahantu hamwe bagera kuri batandatu mu nzu y'ibirahure isize amabara y'umweru biganjemo abagore ndetse n'abagabo, barakeye cyane bisa nkho bari mu nama, imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe ku ntebe zisa imikara ndetse n'umweru bisa nkaho bari mu nama imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi urabona ko bakeye cyane.

Aba ni abantu benshi bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama, baracyeye cyane imbere ya buri umwe hateretse agacupa k'amazi higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe nkuko bigaragara bisa nkaho ari abanyeshuri kubera ko bambaye impuzankano zimeze kimwe umweru ndetse na kaki bafite mudasobwa imbere yabo.

Uyu ni umunara muremure uzamuye ugizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukikijwe n'amazu agiye atandukanye yo mu bwoko bwa etaje atararangizwa kubakwa ndetse n'igipangu cyiza cy'umukara.

Aba ni abantu bagera kuri bane ubona bicaye ahantu hamwe ku ntebe z'imikara, bari kuganira babiri muri bo bari kureba muri terefone zabo urabona ko bishimye cyane, biganjemo abagore gusa.

Uyu ni umunara muremure ugizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ukikijwe n'ibiti binini bitoshye byiza by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, n'abantu benshi ku ruhande abana, abagore, ndetse n'abagabo.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto ihagaze hirya gato yawo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu igizwe n'amabara y'umweru n'ikibaho cy'umukara, bisa nkaho ari abanyeshuri kuko bambaye impuzankano imbere yabo hateretse za murandasi.

Iyi ni inzu nziza cyane mu imbere igizwe n'amabara y'umweru impande zose, huzuye abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, barahagaze ni abagabo bakeya cyane umwe muri bo ari gufata amashusho, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umunara muremure usize amabara y'umutuku n'umweru ukikijwe n'ibyuma bigiye bitandukanye, biwuzengurutse impande zose, hirya gato hari umucanga mwiza cyane nk'uko bigaragara.

Iri ni ipoto rirerire ricishwaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti bitoshye by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi , kubatuye aho ngaho bose.

Uyu ni umunara muremure nk'uko bigaragara ugizwe n'amabara agiye atandukanye, hirya gato ibiti nabyo byiza bibyibushye ubona bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho bose.

Iri ni itopo ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi kubera insinga bagenda bamanikaho, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku batuye aho bose.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya gato hari ikinyabiziga k'imodoka, hasi hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje, ikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara ku ruhande ari uturongo tw'umweru, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani butoshye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umunara muremure unyuraho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, ukikijwe n'ibiti byiza, bitoshye, by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye ahongaho bose.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ubusitani busa nk'ubushaje, hirya gato hari igipangu kiri mu mabara y'umweru n'inzu nini cyane, imbere yayo hari igiti kirekire gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto n'amagare. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru aracamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande hirya gato ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hagati haranacamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru turi hagati ndetse no ku ruhande, hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo indabo z'umuhondo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umunara muremure uziritseho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hasi yawo hari ubusitani bwiza cyane bufite indabo z'icyatsi gitoshye cyane.

Iri ni ipoto rirerire rigera mu kirere riziritseho insinga zigiye zitandukanye zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi rikikijwe n'ibiti binini by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbeziye.

Ubu ni ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo, iz'umweru ndetse n'izindi hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Nkuko mubibona amakaro y'aho aracyeye, inzugi nziza ziriho ibirango ndetse zisa amabara y'ubururu, hariya mu imbere hari ikintu gikonjesha harimo ibikombe, ijage y'icyatsi, amajerekani meza azanwamo amazi yo kunywa acyeye Kandi anogeye buri muntu wese iyo aya nyoye aba yumva ameze neza ,akira umutwe cyane iyo awurwaye cyangwa akoze impyiko.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haragendamo abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga byinshi bihahagaze, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri batatu bisa nkaho bari kugenda, barishimye, bari guseka, ku maso habo bambaye ibintu bigiye bitandukanye, higanjemo abagore batatu ndetse n'umusore umwe.

Ubusitani bwiza kandi butoshye, burimo indabo zigiye zitandukanye, hirya yabwo hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo n'amabati y'umutuku.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo hahagaze amamodoka agiye atandukanye amwe ari mu mabara y'umweru indi ni umutuku. Ku ruhande hari ubusitani bwiza urimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, bambaye impuzankano z'umweru, yiganjemo abagore n'abagabo hirya ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Ubu ni ubusitani bwiza ubona butoshye, burasa icyatsi, burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umuhondo, iz'umutuku. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze arishimye cyane kumaso ye, agasatsi ke karasokoje, yambaye ikanzu y'umutuku ifite n'amabara y'umweru, hagati.

Aba ni abantu benshi, bari ahantu hamwe, bahagaze ku murongo, bafite ibyishimo, bari guseka ku maso habo, bambaye impuzankano z'umukara n'umweru, higanjemo abagore n'abagabo.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze afite ibyishimo ku maso he ari guseka, yambaye ikanzu y'umutuku irimo umweru hagati, umusatsi we urasokoje urabona ko ugaragara neza cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Hari abambaye imikara imbere yabo hateretse za murandasi, hirya gato hari abafata amashusho.

Umuturirwa ugeretse inshuro zirenze ebyiri, ukaba ufite amabara arimo shokora n'umukara, ukaba uri mugipangu gikikijwe n'ibiti n'igipangu cyubakishijwe amatafari, imbere yaho hakaba hari umunara ufite insinga z'amashanyarazi.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze mwiza cyane agasatsi ke karasakoje yambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'ikanzu y'umutuku iririmo umweru hagati, urabona ko ari ibintu byiza cyane bimubereye.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo bicaye ku meza y'umukara, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa barakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane, bambaye amakote meza bamwe baricaye, abandi barahagaze, basa nk'aho bari mu nama, higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso ye nta musatsi na mukeya afite, yambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umukara n'umweru, ishati nziza iri imbere.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko ari ibintu byiza cyane bamwe barahagaze abandi baricaye mu busitani bwiza bukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu bagera kuri bane bari ahantu hamwe, higanjemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe wambaye umupira w'umukara urabona ko ari ibintu byiza cyane, bisa nkaho bari kuganira

Iyi ni inzu nziza kandi nini mu bugari harakamo amatara agiye atandukanye, yaba ay'umweru ndetse nay'umuhondo bisa nkaho abarimo bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara baracyeye cyane.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo abakuze nk'abagore ndetse n'abagabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane; bisa nk'aho bari mu nama. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abagororwa bambaye imyenda ya oranje bavuye kubaka bamwe bafite ibitiyo abandi amasuka, amagorofane bari kuzamuka batashye bari ku murongo bari impande y'igipangu cyubakije amatafari ahiye asizemo amarangi y'umuhondo.

Aba ni abantu benshi ahantu hamwe, umwe muri bo arahagaze afashe ku ry'igihugu cy'u rwanda yamanitse akaboko yambaye ikanzu y'umukara irimo umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu.

Aha hari amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mu mabara y'ubururu amagambo yandikishije mu ibara y'umweru n'umuhondo yandika avuga ngo umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa rya umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza za buri mwaka hino hari inyubako iri mu mabara y'umweru n'ibiti.

Uyu n’ umugabo ubona usa nkukuze, agasatsi ke karasokoje umwitegereje neza ku maso yambaye amadarubindi, ikanzu y’ umutuku n’ umukara, ishati y' umweru, urabona ko ari ibintu byiza cyane bimubereye.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe iteye mu buryo butunguranye, gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku kikagira n'umunwa w'umukara.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'urw'abahungu, bambaye impuzankano zijya gusa umukara n'ubururu, umwe muri bo afite igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe ibateye mu buryo butateganyije kimwe kirasa umutuku n'umunwa w'umukara ikindi kirasa umweru.

Aba abantu benshi bari ahantu hamwe, higanjemo urubyiruko; abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano z'umweru na kake, umwe muri bo ari imbere yabo, ari gukoresha igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara aragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Aba ni abantu benshi bari kugenda ahantu hamwe, bamwe barazamuka abandi bamanuka, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, hirya gato hari amashyamba manini ubona atanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande ndetse no hagati, aranyuramo abantu bagiye batandukanye, n'ibinyabiziga nk'amagare, hirya gato hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje igerekeranyije.

Iki ni igikoresho kifashisha mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku ndetse n'umunwa w'umukara, amagambo yandikishije umweru nawe wakigura ukaba wagitunga iwawe.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara harimo ikinyabiziga kinini cyane kiri guterwa amazi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibi ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye, kimwe kirasa umutuku ikindi kirasa umweru ndetse n'umukara ku minwa yacyo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuhande, hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka n'ibindi, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, imodoka n'amagare, hari n'abantu bari kuhanyura.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara akarongo k'umweru ku ruhande, haranyura ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'abantu higanjemo abagore n'abagabo.

Mu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hagati hari umuntu uhari wazamuye akaboko, hirya gato ni ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umugabo ubona usa nk'ukuze umurebye ku maso he arishimye cyane ari guseka yicaye ku ntebe y'umukara, yambaye ikote rijya gusa ubururu ishati y'umweru urabona ko ari ibintu byiza.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bisa nkaho bari mu nama bamwe barahagaze abandi baricaye higanjemo abagore ndetse n'abagabo urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho ry'ubireba .

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze imbere y'amadarapo bari ku murongo, imbere yabo hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe bahagaze ku murongo barakeye cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo bakikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari ahongaho bose.

Uyu ni umugore ubona usa nk'ukuze wicaye ku ntebe y'umukara agasatsi ke karasokoje kandi karakeye, yambaye imyenda y'ubururu n'umweru, hagati afite impapuro n'agacupa k'amazi imbere ye.

Uyu ni umugore ubona usa nkukuze umurebye neza ku maso he harakeye cyane, yambaye amadarubindi ndetse n'ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu umusatsi we urasokoje.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bishimye, bazamuye ibiganza byabo, birimo amadarapo agizwe n'ubururu, umweru, ndetse n'umutuku, higanjemo abagore n'abagabo.

Aba ni abantu bagera kuri bane, bari ahantu hamwe bisa nk'aho bari kugenda, higanjemo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umukara irimo umwe n'amadarubindi inyuma yabo ari icyapa kinini.

Uyu ni umugore ubona ukeye cyane yambaye imyenda y'ibitenge agasatsi ke karasokoje, ari kumwe n'abana batoya bagera kuri babiri, urabona ko ari ibintu byiza cyane gusabana n'umuryango.

Aba ni abantu bagera kuri bane bahagaze ahantu hamwe bose bazamuye amaboko kandi bafashe ku idarapo y'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi.

Aba abantu benshi bari ahantu hamwe babiri muri bo bambaye imyenda isa, higanjemo umugore ndetse n'umugabo ufite icumu mu biganza bye. Urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abagore benshi bari ahantu hamwe bafashe ku madarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bose bambaye imishanana bazamuye amaboko, urabona ko ari ibintu byiza cyane bigaragara ko bibereye ijisho.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bakeye cyane, higanjemo abagore ndetse n'abagabo, ni ibintu byiza, cyane imbere yabo ateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, bisa nk'aho bari mu nama.

Aba ni abantu bagera kuri bane hamwe bambaye impuzankano z'icyatsi bicaye ku ntebe z'umukara higanjemo abagore ndetse n'abagabo, umwe muri bo arahagaze afite igikoresho cyifashishwa mu kurangurura amajwi kiyageza ku bantu benshi.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bazamuye ibiganza byabo hejuru bafite amadarapo yanditseho FPR agizwe n'umutuku umweru n'ubururu.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bakeye cyane bicaye ku ntebe z'umweru higanjemo abagore ndetse n'abagabo benshi muri bo bafite amakaramu n'amakayi bari kwandika.

Aba ni abantu bagera kuri batandatu bahagaze ahantu hamwe bose bazamuye ibiganza akandi kaboko gafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda higanjemo abagabo ndetse n'abagore bambaye imishanana.

Iyi ni inzu nini mu bugari, nkuko bigaragara igizwe n'amatara y'umweru impande zose, hejuru harasa umuhondo, huzuyemo abantu benshi, bisa nkaho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi na za mudasobwa.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe urabona ko bahagaze bafite ikintu cy'igipapuro mu ntoki zabo, bambaye mu buryo bugiye butandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aba ni bantu benshi bari ahantu hamwe, urabona ko bacyeye cyane ubarebye ku myambaro yabo, bisa nk'aho bari mu nama imbere hateretse uducupa tw'amazi yo kunywa higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati, haranyuramo ikinyabiziga nk'imodoka n'igare urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni imodoka nziza cyane kandi nini imenyerewe mu gutwara abagenzi benshi, ikikijwe n'abantu bagiye batandukanye, isize amabara y'umweru, ibirahure ni umukara n'amatara y'umutuku.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ikinyabiziga cya moto gifite umweru hejuru, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, imodoka ndetse n'ibindi, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urasa umukara, uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba moto ndetse n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru hagati aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibito ndetse n'ibinini hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usizwe amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto n'amagare, hiya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, hahagazemo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Aha hari imodoka zigera kuri ebyiri zifite amabara y'umweru umuhondo ku ruhande n'ibirahuri bibonerana imbere yazo hari ibiti bitanga akayaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Umuntu yambaye imyenda myiza, ikanzu y'umutuku, ikoti ry'icyatsi ari gusinya impapuro nk'uko bigaragara, aho barimo baranamufotora, ahagararanye n'abandi bagabo babiri nabo bambaye amakoti, ubona bameze neza.

Uyu ni umuhanda w'igitaka uhagazemo imodoka nziza cyane itwara abagenzi ifite amabara y'umweru ndetse n'ibirahure by'umukara, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibyikorera imizigo nk'imodoka ndetse n'amagare urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka n'amagare ndetse n'abantu hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, no hirya hari abantu bari kuhanyura, ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse n'igare, hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Umuhanda wo mu bwoko bw'akaburimbo usize amabara y'umukara aranyuramo ikinyabiziga ndetse n'umuntu ku ruhande, hari inzu ndetse yo mu bwoko bwa etage isa umweru urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Umuhanda wo bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu. Hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haraca ibinyabiziga nka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo m'ubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga biye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitaga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu umuhanda uba mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturonko tw'umweru, ku mpande haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, hirya gato hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, ari kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye; moto, igare, imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga nk'imodoka, hirya gato hahagaze moto, ndetse n'abantu ku ruhande batandukanye, bari kuhagenda.

Iyi ni imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ihagaze ahantu hamwe ifite amabara y'umweru, amapine y'umukara n'ibirahure bibonerana urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haragendamo ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'abantu, ku ruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo abantu bagiye batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bimenyerewe mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara ari gucamo ikinyabiziga cyikorera imizigo ndetse hirya hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara harimo imodoka z'umweru zitwara abagenzi hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bari aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru dushaje, ku ruhande haranyuramo ikinyabiziga cyikorera imizigo, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usizwe amabara y'umukara, hari kugenda ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abagore basaga bane ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ndetse na karuvati bicaye mu ntebe z'umukara imbere yabo hari ibintu byinshi bitandukanye nk'uducupa tw'amazi, mudasobwa ndetse n'utwuma ndangururamajwi, inyuma yabo hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera ry'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usizwe amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'amamoto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubanhanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati haracamo ikinyabiziga gitwara imizigo kinini cyane, hirya kandi hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya nka moto n' imodoka. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyanga n' amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, yaba n'imodoka nini zikorera imizigo ndetse na moto n'abantu ku ruhande.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange kinini gisa ubururu n'umweru.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, haracamo ikinyabiziga cya moto n'abantu, ku ruhande hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubari ahongaho bose.

Uyu muhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara hagati hagendamo abantu babiri bari gusunika ikigare hirya gato hari inzu ndende yo mu bwoko bwa etaje ifite amadirishya n'inzugi byicyatsi.

Hano hari umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, aragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'imodoka zitwara abagenzi ndetse n'abantu kuhande baracaracara.

Ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturonko tw'umweru haracamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utugare ndetse n'abantu benshi cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usizwe amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka yikorera imizigo ndetse n'igare riho umuntu, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ikikorera imizigo ndetse n'igare, hirya gato hari abantu n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande haracamo ibinyabiziga nka moto, hirya gato hari abantu benshi n'ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi.

Ubu ni ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye yaba iz'umuhondo, iz'icyatsi, ubwoko bwose, hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bari aho bose.

Ubu ni ubusitani bwiza bw'icyatsi ubona butoshye cyane, hirya gato ari umuhanda nawo uhari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubatemberera aho bose.

Iki ni ikibuga cyiza bakiniramo umupira w'amaguru, urabona ko gisa icyatsi giteye amabengeza, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye aho bose.

Iki ni icyapa kiranga amerekezo, kiri mu mabara y'umweru, amagambo yandikishije umukara, gikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku baherereye ahongaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati ndetse no ku ruhande haranyura abantu bagiye batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umutuku iz'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usizwe amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza butoshye, bw'icyatsi, butanga umuyaga n'amahumbezi ku bahagenda bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande hirya gato hari ibiti birebire byicyatsi bitanga umuyaga, n'amahumbezi kubanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande haranyura ikinyabiziga cya moto, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande hari ubusitani bwiza cyane butoshye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahanyura bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usizwe amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, hagati no ku ruhande hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda ahongaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza butoshye burimo indabo zigiye zitandukanye n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iki ni icyapa kinini kigizwe n'amabara y'umweru n'amagambo yandikishije umukara Rusizi hirya gato hari umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara uturongo tw'umweru n'utundi tw'umuhondo, ku ruhande hari icyapa cyerekana amerekezo ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru kuruhande, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba ibyikorera imizigo ndetse n'ibitwara abantu, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Hari abantu muri iyi si bamaze kubona umurongo w'ubuzima, ahusanga bafite imiturirwa ihenze cyane imbere y'aho akenshi baba barahateye ibyatsi bibafasha kugaragaza ishusho nziza y'aho hantu.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande utundi tw'umuhondo hagati, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, n'ubusitani bwiza.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru, haranyuramo imodoka zigiye zitandukanye hirya gato hari inzu y'umuhondo, urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu nziza yo mu bwoko bwa etage igerekeranije isize amabati y'umutuku hasi ni umuhondo, hepfo yayo hari ubusitani bwiza buririmo ibiti n'indabo zigiye zitandukanye bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nini yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije, isize amabara y'umuhondo ku mpande ndetse n'ibirahure by'umukara. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubahaherereye bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, ukikijwe n'amazu maremare ya etaje agerekeranyije, urabona ko ari ibintu byiza cyane bibereye ijisho.

Aba ni abantu bagera kuri barindwi bahagaze ahantu hamwe ku itapi y'umutuku barakeye cyane, bafite icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mu biganza byabo higanjemo abagore ndetse n'abagabo.

Aya ni amazu menshi ari ahantu hamwe yaba ayo mu bwoko ba etaje agerekeranyije ndetse n'andi asanzwe, amenshi muri yo afite amabati y'imutuku akikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuramo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, moto, imodoka, hari n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda aho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru, ku ruhande harizu menshi manini afite amabati y'imituku ndetse n'ibiti birebire by'icyatsi bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda mwiza wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara, aranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ndetse n'abantu, ku ruhande gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bwa etaje igerekeranije, isize amabara agiye atandukanye, icyatsi n'umuhondo, munsi gato hari ibinyabiziga bihagaze by'imodoka y'umutuku n'indi y'umukara.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande haranyuraho abantu bagiye batandukanye, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Iminara ibiri yifashishwa mu itumanaho hirya nohino mu gihugu, iziritseho insinga ziri mu ibara ry'umukara, ndetse iminara ikoze mu byuma bisize amarange y'umutuku ndetse n'umweru.

Iyi ni inzu ndende igerekeranije yo mu bwoko bwa etaje isize amabara y'umuhondo ku mpande zayo zose, imbere hariho ibirahure by'umukara bibonerana urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye yaba imodoka, amagare ndetse na moto n'abantu ku ruhande benshi hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Iyi ni inzu nziza igerekeranyije, yo mu bwoko bwa etaje, isize amabara y'umweru, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo indabo zigiye zitandukanye, yaba iz'umutuku, iz'icyatsi, n'umuhondo, ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Aya ni ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Inoti z'amafaranga ya rimwe y'Amashinwa hariho isura y'umuntu n'amagambo yo mu gishinwa n'imibare isanzwe.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usizwe amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ukikijwe n'ibiti birebire biri mu mazu bitanga umuyaga n'amahumbezi ndetse n'ubusitani bwiza.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije isize amabara y'ubururu, umweru hejuru ibirahure birijimye hirya gato hari imodoka nziza yahagaze urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Iyi ni inzu nini cyane mu buryo bugaragara isize amabara y'umweru impande zose, imbere yayo hari ubusitani butoshye bufite indabo iz'umuhondo, iz'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara anyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, imodoka hirya gato ari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara. Haranyuramo ibinybiziga bigiye bitandukanye nka moto, imodoka, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara impande zose, wuzuye ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru, ku ruhande hagacamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, hirya gato hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi biri imbere y'inzu yo mu bwoko bwa etage .

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, kuruhande hari ubusitani bwiza bw'icyatsi butoshye burimo n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku bagenda aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru ku mpande zombi, hari ubusitani bwiza cyane butoshye ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi kubawukoresha bose.

Uyu ni umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande ndetse no hagati haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto, igare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande no hagati haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto n'amagare, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara, uturongo tw'umweru, hagati aracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, nk'amagare, moto, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu n'umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande ndetse no hagati haracamo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

uyu ni umuhanda w'igitaka ni muremure cyane ukikijwe n'ubusitani bwiza bw'icyatsi burimo indabo z'umutuku n'umuhondo hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza, burimo ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu n'ibinyabiziga bigenda ahongaho byose.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo, ugizwe n'amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru ku ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hirya gato hari ibiti birebire, bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturonko tw'umweru, ku ruhande hari ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi ndetse n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Ahantu ndahabona umuntu mu kayira k'abanyamaguru arimo aragenda bika bigaragara ko hari n'undi muntu wicaye munsi y'umutaka wa emutiyeni ndetse bikaba bigaragara ko uyu muntu acuruza amayinite bikaba binagaragara ko hari imodoka y'umukara ndetse na taransifa y'amashanyarazi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usheshe amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuruhande no hagati haracamo ibinyabiziga nka moto n'imodoka. Hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara uturongo tw'umweru n'utundi tw'umuhondo, hagati hirya gato hari ubusitani bwiza bw'icyatsi, haragendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka ndetse na moto.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara ndetse n'uturongo tw'umweru ku ruhande, akikijwe n'ubusitani bwiza butoshye bw'icyatsi n'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'imodoka, moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Uyu ni umuhanda wo m'ubwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru hagati no k'uruhande haracamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birerebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru. Ku ruhande ndetse no hagati haranyuramo ibinyabiziga nka moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo munini usize amabara y'umukara, hirya gato hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bagenda bose.

Abagororwa bambaye imyenda ya oranje bavuye kubaka bamwe bafite ibitiyo abandi amasuka, amagorofane bari kuzamuka batashye bari ku murongo bari impande y'igipangu cyubakije amatafari ahiye asizemo amarangi y'umuhondo.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara, haranyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nk'igare, moto ndetse n'imodoka, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.